Umutekano ni kimwe mu nkingi zikomeye mu gihugu cyacu, nk'aho abadaso ari bamwe bakorana n'abaturage maze bakarushaho gutangira amakuru ku gihe, ndetse n'uwagize ikibazo bakarushaho kumugeraho mu gihe bamukeneye.

Abaturage tubaho tunezerewe kubera kugira umutekano mwiza， kubera ko inzego z'umutekano nk'abasirikare， babasha gukorana n'abaturage batangira amakuru ku gihe，maze ababikora neza bagahabwa n'ibihembo， kugira ngo barusheho kwimakaza umuco wo gutangira amakuru ku gihe，no kubaho mu buzima bufite umutekano usesuye.

Mu buzima tubaho bwa buri munsi tuba dukeneye n'umutekano, aho nk'abapolisi baza kutuganiriza batubwira uburyo twitwara, ndetse n'uburyo twagenda mu nzira tukagira aho tugiye amahoro.

Ni byiza ko tugira ibikorwa remezo biteye imbere, nko gushyira amakamera ku muhanda afata amashusho, bityo hakaba nta muntu ushobora guteza umutekano mukeya, mu gihe izo kamera zibaga zishinzwe kugenzura ibigenda aho hafi,

Mu Rwanda tugira inzego zitandukanye z'umutekano, aho dusangamo nk'abapolisi aho bambara imyenda iba ifite amabara y'umukara, aho baba bashinzwe kugenzura abaturage kandi bagakorana na bo, maze bakarushaho kurwanya ibyaha na bo bakabaho mu buzima bufite umutekano.

Ni byiza ko abantu bahurira hamwe bakungurana ibitekerezo, haba habaye n'ikibazo bagatangira amakuru ku gihe, bigaragaye ko havutse ikibazo gikomeye nko gushya kw'ahantu, kugira ngo inzego zishinzwe umutekano zitabare vuba abantu bataragwamo.

Ni byiza ko abantu bahurira hamwe, mu cyumba cyateguwe neza bari mu nama, aho bungurana ibitekerezo bigiye bitandukanye, by'uburyo bakomeza kwiteza imbere ndetse n'abafite ibibazo bakabigeza ku bandi, bakarushaho kubikemura bose bagataha basobanukiwe neza.

Kwitabira inama ni ingirakamaro, aho duhuriramo n'abayobozi bagiye batandukanye twungurana ibitekerezo, mu buryo twakemura ibibazo hagati yacu maze tugateza imbere igihugu, aho tuba tugomba kuyikora twahuriye hamwe kandi twambaye neza ndetse tuyikorera ahantu hafite isuku.

Guhurira hamwe twaturutse imihanda itandukanye tuje mu nama, aho biba ari byiza kuko twungurana ibitekerezo bigiye bitandukanye, n'abafite ibibazo bakarushaho kubigeza ku bandi maze bakabafasha kubisobanura, bityo bakarushaho kubaho mu mutekano n'amahoro.

Kwitabira inama rusange ni ingirakamaro, aho abaturage baturutse imihanda itandukanye bahurira hamwe bakungurana ibitekerezo. Abafite ibibazo bakabigeza kuri bagenzi babo maze abayobozi n'abo babana bakabafasha kubikemura.

Kwitabira inama biba ari byiza cyane aho abantu baturutse hirya no hino bahurira hamwe bakungurana ibitekerezo bigiye bitandukanye, kandi n'abafite ikibazo bakakivuga bakarushaho kugicacura maze bagasubirayo ibibazo byabo byakemuwe, kuberako baba bahuriye hamwe bungurana ibitekerezo.

Inteko z'abaturage ni ingirakamaro, aho bahurira hamwe bakungurana ibitekerezo bitandukanye, bari kumwe n'abayobozi ba bo, ndetse n'abafite ibibazo bakabigaragaza, abaturage bakabifasha kubikemura bafatanyije n'abayobozi, bityo bakabaho mu buzima buzira amakimbirane.

Mu muco gakondo wacu, tugira ibikoresho twifashisha mu gucura bimwe mu bikoresho nk'umuvuba, aho bawifashisha batsa umuriro kugira ngo babone uko bahonda ibyuma, maze bacuremo nk'imihoro, amashoka, ndetse n'ibindi.

Mu muco gakondo dusangamo imbyino zitandukanye, nk'intore aho zabyinaga zambaye imigara, zifite ingabo n'amacumu ndetse n'amayugi ku maguru, maze zigataramira abateraniye aho ngaho, maze bakishima, na zo zikanezerwa.

Imbyino gakondo ni nziza cyane, aho nk'abakobwa bazibyina batwibutsa umuco wo hambere, bambaye amayugi, imyenda isa, yabugenewe, maze bakadususurutsa, bakaba babikora, kugira ngo umuco wacu utazibagirana.

Mu muco gakondo dusangamo ibintu bigiye bitandukanye; aho nk'umukeka wifashishwaga mu kuwicaraho cyangwa kuwuryamaho, maze umuntu yawicaraho cyangwa yaryama akaruhuka neza, kubera ko uba uboshywe mu bwatsi bw'ubusuga ndetse n'ududeyi bari kuwuboha.

Inkongoro ni kimwe mu bikoresho gakondo, aho bacyifashisha bashyiramo amata, bakayanyweramo, maze bakagira ubuzima bwiza, kubera intungamubiri nyinshi zikomoka muri ayo mata.

Mu muco gakondo habagamo inzu z'inyubako mu buryo bwa muviringo, aho zabaga zubatswe n'ibyatsi byinshi, zifite n'inkingi imbere izifashe ari ho abami bakundaga kwibera.

Imbyino gakondo ni nziza cyane, aho tuzibyina kugira ngo umuco wacu utazibagirana, aho zibyinwa basusurutsa abashyitsi cyangwa abitabiriye ibirori maze na bo bakanezerwa.

Mu muco gakondo, abaturage bubaka inzu, zubatse mu buryo bwibizeru kandi zisakaje ibyatsi, kuburyo zidaturirwa mu gihe cy'imvura kandi bakazubakana ubuhanga.

Mu muco nyarwanda wa gakondo dusangamo aho abantu benshi bakundaga kunywa itabi bakoresheje inkono za kinyarwanda, aho bakundaga gushyiramo itabi n'igikara maze bagakurura, bagatumagura, bakumva baguwe neza.

Mu muco gakondo habagaho uburyo bwo gukamira ibitoki mu muvure, tubitonora tubikura mu bishishwa, maze tukenga urwagwa. Tukazarunywa rumaze gushya, bikarushaho gutuma dusabana n'abaturanyi bacu n'aho dutuye muri rusange.

Mu muco gakondo habamo imbyino zitandukanye. Aho nk'igitsinagabo kibyina intore. Cyambaye imigara ku mutwe, amayogi ku maguru ndetse n'ingabo n'amacumu aho ziba ziri kwiyereka abantu, maze abari mu birori bakishima.

Mu muco gakondo twagiraga imbyino zitandukanye, ndetse n'ibikoresho byifashishwaga mu gucuranga, urugero nk'umuduri aho bawukoreshaga bari gucuranga maze abari kumva injyana yawo bakishima cyane.

Kugira ngo umuco wacu utazibagirana, haba inzu ndangamurage aho ikusanyirizwamo ibintu byose byabagaho mu muco gakondo, ba mukerarugendo bakajya baza kubisura maze n'abaturage basanzwe bakajyayo, bagasobanukirwa amateka y'igihugu cyacu ajyanye n'umuco gakondo ari mu nzu ndangamurage y'u Rwanda.

Mu muco gakondo habamo no gushushanya ibintu bigiye bitandukanye, aho bamwe bagaragaza impano zo gukora ibishushanyo, maze ababikora bakabona amafaranga aturutse mu mpano baba bafite zo gukora ubwo bukorikori.

Mu muco gakondo dukora ubunyabukorikori bugiye butandukanya nko gukora imitako y'uduseke, udukoko ,aho bayiboha bifashishije ubudeyi, ishinge n'ubwatsi bwabugenewe, maze tukarushaho kutugurisha tukabonamo amafaranga.

Mu muco gakondo dusangamo imbyino zigiye zitandukanye, aho nk'abakobwa babyinaga umushayayo, abahungu bakabyina intore ndetse n'abakaraza bakadufasha kudukinira injyana ,maze tukabyina neza ,abadukurikiye mu birori na bo bakishima.

Imbyino gakondo ni zimwe mu biranga umuco w'igihugu cyacu, aho haba harimo imyiyereko, abakobwa babyina imisha yayo, abahungu babyina intore. Ibi bikaba bikorwa mu buryo bwo gusigasira umuco nyarwanda kugira ngo utazacika.

Mu muco gakondo twifashisha ibikoresho bigiye bitandukanye. Nk'umwuko cyangwa umudaho, aho wifashishwa mu guteka amafunguro agiye atandukanye , maze tukawukoresha tuvanga cyangwa twumva ko ibiryo twatetse byahiye.

Ububumbyi ni imwe mu myuga gakondo aho abaturage bayikoraga babumba udukono bifashishaga batekamo ibiryo bitandukanye, maze baka tumwe bakatugurisha kugira ngo babonemo amafaranga bifashisha abakora ibindi bikorwa byabo.

Mu muco gakondo dusangamo imbyino zigiye zitandukanye, ndetse n'ibindi bikorwa biba birimo nko kwifashisha ibisabo, aho byakoreshwaga mu gucunda, aho berekana uburyo abakera bacundaga amata mu bisabo. Ibi bikaba bikorwa kugira ngo basigasire umuco gakondo.

Mu muco gakondo habagamo inyubako zigiye zitandukanye, aho zabaga zubatswe ku buryo bwa muviringo, zisakaje ubwatsi, ku buryo amazi atabasha kwinjiramo, kandi izo nzu na n'ubu zikaba hari aho zikiri. Zikaba zisigasiye amateka y'igihugu cyacu.

Mu muco gakondo habagamo n'umwuga w'ububoshyi, aho bamwe babohaga uduseke bifashishije inshinge, ubudodo ndetse n'ubwatsi bwabugenewe, maze bagakora Ubwo bukorikori biteza imbere, kubera ko babigurishaga ababikeneye maze bakabona amafaranga.

Umuco gakondo ugomba kurindwa kandi ukazirikanwa, aho abantu bamwe banywera mu ducuma ndetse n'imiseke bazirikana uwo muco, kugirango utazacika maze bakizihirwa kandi basabana.

Inzu ndangamurage, ni inyubako dusangamo ibikoresho by'umuco gakondo, byakundaga kwifashishwa bigakoreshwa, aho abashaka gusobanukirwa bahajya, maze bakahasanga ibyo byifashishwa mu muco gakondo, bakabisobanukirwa neza kurushaho.

Mu muco gakondo habagamo imbyino zitandukanye. Abasore babyina bambaye imigara, bafite ingabo ndetse n'amacumu, bakabyina bitakuma basusurutsa abitabiriye ibirori, maze bakarushaho kunezerwa. Ibi babikora kugira ngo umuco gakondo utazacika.

Imbyino gakondo ni nziza cyane, aho tuzibyina twambaye imigara, dufite ingabo ndetse n'amacumu n'imikenyero yabugenewe n'amayugi ku maguru, aho n'abanyamahanga bazikunda, maze bakaza bakifatanya natwe, maze tukarushaho kwishima, tuzamura impano zacu.

Mu muco gakondo dusangamo ibikoresho byifashishwaga hambere nk'imivure, aho bayikamiragamo bari kwenga ibitoki ndetse n'imikeka bapfukamagaho bari gukama, maze bakarushaho kwiteza imbere babikesha ibyo bakamaga bagurisha imitobe ndetse n'urwagwa.

Mu muco gakondo dusangamo imbyino zitandukanye, aho nk'abakobwa babyina bafashe ibisabo, aho bigaragaza umuco wo gucunda amata, maze abari aho bakizihirwa, bitewe n'uko babibukije umuco gakondo, kandi umuco gakondo ntugacike.

Mu muco gakondo dusangamo ibintu bigiye bitandukanye :umuheto, n'icumu aho babyifashishaga bafora ikintu runaka ,kugira ngo bagihamye kitabacika kandi bari kure yacyo batakegeye.

Mu muco nyarwanda borora inka z'amahembe manini bita inyambo. Aho ari inka zigwa neza kandi zigira amata aryoshye cyane. Kuko ari inka z'inyamahoro ni yo mpamvu zitwa inyambo.

Mu muco gakondo tugira igihe cyo kuganura ibyo twejeje, aho duhurira hamwe twabikusanyirije hamwe tukabiteka, maze buri wese akagira umwanya wo gufata icyo ashaka kurya buri wese akazirikana umuco gakondo w'igihugu cyacu kugirango utazacika.

Imbyino gakondo ni nziza cyane, aho abasore babyina bambaye imigara bafite ingabo ndetse n'icumu, n'amayugi ku maguru maze ababareba bakizihirwa kandi bigatuma bazamura impano zabo bakagera kure.

Amasaka ni kimwe mu bihingwa mu Rwanda bakunda guhinga. Aho iyo yeza avamo amamera bakoramo ibigage ndetse n'ubushera, andi bakayakoramo ifu y'igikoma, maze abantu bakakinywa bakagira ubuzima bwiza.

Mu muco gakondo wacu habagaho no gucunda ibisabo, aho bashiragamo amata bacunda bavangura amata n'amavuta, bityo bikaba bikorwa kugira ngo umuco gakondo wacu utazibagirana mu bana b'Igihugu.

Ni byiza ko iyo umusaruro weze neza ,uba ugomba kugosorwa hifashishijwe intara kugira ngo imyanda irimo ibashe gukurwamo , umuntu abone uko abihunika, ibindi abijyane ku isoko, ibindi bizabe inkwi iwe mu rugo.

Mu muco gakondo abaturage baragiraga inka ku gasozi, aho zarishaga ubwatsi kugira ngo zikure neza maze zitange umukamo, ushimishije ariko ubu ngubu ntabwi bigikorwa nka mbere zorerwa mu biraro.

Umuco gakondo dusangamo ingobyi，aho yifashishwaga n'abantu ba kera，bahekamo abantu babaga barwaye， babajyanye ku bitaro， aho bashyiragamo injishi， igahekwa n'abantu bane maze bagatabara ubuzima bw'umuntu.

Kubyina imbyino gakondo, ni umuco wo kugira ngo dusigasire ibyaranze amateka y'abakurambere bacu, aho babyinaga bari gushyayaya, bikoreye n'uduseke, maze bigashimisha abitabiriye ibirori cyangwa se igitaramo.

Mu muco gakondo dusangamo imbyino zitandukanye, aho nk'abakobwa bambara amayugi, ndetse bakabyina bashayaya, barambura amaboko, abandi bacunda ibisabo mbese bikatwibutsa umuco wacu gakondo, wo hambere.

Umuco gakondo dusangamo imbyino zitandukanye, aho bazibyina kugira ngo umuco wacu utazibagirana kandi bakazibyina bataramira abitabiriye ibirori, cyangwa se igitaramo na bo bakagubwa neza cyane.

Mu Rwanda tugira umuco gakondo aho intore zibyina zambaye imigara zifite ingabo ndetse n'amacumu ziri kwitakuma, maze abo ziri kubyinira bakishima na zo zikanezerwa, kandi zikazamura n'impano zabo.

Mu bikoresho bikoreshwa n'amashanyarazi dusangamo nk'amatara aba afite ampule nyinshi, aho akenera umuriro w'amashanyarazi kugira ngo amurike ahantu hanini, kandi atange urumuri rwiza cyane.

Ibikoresho by'amashanyarazi ni ingirakamaro aho bikorerwa mu nganda zikomeye maze bakabyifashisha batanga umuriro w'amashanyarazi, aho bimwe biba bishinzwe kugabanya cyangwa bikongera igihe umuriro wazanye ibibazo bitandukanye.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga ni ingirakamaro, nk'imigozi twifashisha ducomeka za mashini, amaterefone, amaradiyo bityo bigatuma hajyamo umuriro, maze tukayifashisha tureba amakuru cyangwa se twumva ibivugirwa ku bikoresho by'ikoranabuhanga.

Ni byiza kubaka amazu y'amagorofa, kuko bituma agatwara ubutaka butoya, hagasigara n'aho guhinga, kandi aterwaho n'ubusitani bwiza, ku buryo n'abaje kuhashaka serivisi bayibona bitabagoye.

Ni byiza ko abantu bajya barajya kwegerana n'Imana basengera mu nsengero zubatswe neza cyane zifite ubusitani parikingi jaride maze bakarushaho kugubwa neza bitewe n'uko baba bariyubakiye ahantu heza ho gusengera.

Mu Gihugu cyacu tugira ingomero zitandukanye z'amashanyarazi, aho zihurizwa imbaraga hamwe, kugira ngo zitange ingufu zikomoka ku mashanyarazi maze Igihugu gikataze mu iterambere kubera izo ngufu zikomoka ku mashanyarazi.

Abaturage bakenera serivisi zitandukanye nk'iyo bagiye ku biro by'abayobozi ,aho basangaho imiryango bakoreramo n'amafoto agaragaza ibyo bakora maze bakajyamo bashaka izo serivisi ,abayobozi bakabakira neza aho tukunda kubisanga ku biro bitandukanye by'abayobozi bacu.

Ibibuga by'imyitozo ngororamubiri aho biba byubatswe neza kugira ngo abaza babikiniraho batazajya barakomereka maze bakazamura impano zabo babikesha ibikorwa remezo igihugu cyubatse.

Ni byiza kubaka inyubako zimeze neza, nk'insengero, amashuri. Aho abantu baje bahagana bahabona serivisi nziza, maze bakarushaho gutera imbere bifashishije ibikorwa remezo Igihugu cyubaka.

Kubaka inyubako mu buryo bw'amagorofa ni byiza cyane kuko bitwara ubutaka bukeya, maze hagasigara ubundi bwo guhinga, maze abantu bakabona aho kuba ndetse n'aho guhinga.

Iyo dushaka kwegerana n'Imana cyane cyane abakirisitu, dukunda kujya mu nsengero. Aho ziba zubatswe neza, maze tukajya gusenga Imana ku munsi wagenwe, maze tukarushaho gukunda Imana kandi tuyitinya.

Inyubako z'amagorofa ni ingirakamaro，kuko zitwara ubutaka bukeya， kubera ko amazu yabaga agerekeranyije，kandi asize n'amarangi asa neza，agaturwamo n'abantu benshi，kandi bituma hasigara ubutaka bunini bwo guhinga ，ibizatunga abatuye muri ayo mazu.

Kugira ibikorwaremezo byubatswe neza, nk'imihanda igiye mu byerekezo bingiye bitandukanye, iriho n'amatara amurikira abantu iyo bwije, maze bakagera aho bagiye, nta kibazo bahuye nacyo.

Inyubako zubatswe neza mu mudugudu. Aho haba hari inzira nyabagendwa ihagera. Ku buryo abaje bakeneye serivisi bahagera bitabagoye. Maze abayobozi bakabafasha bagasubira mu buzima busanzwe bitabagoye.

Ni byiza ko abanyeshuri bigira mu bigo by'amashuri byubatse neza kandi bifite n'ubusitani bwo kwicaramo, hariho n'indabo n'umucaca maze bakarushaho kumva baguwe neza, kubera ko bigira ahantu hubatswe neza kandi hateguwe neza.

Kubaka amazu meza twifashishije amatafari ahiye bituma adacengerwamo n'imvura kandi ntasaze vuba, maze tukabaho tuyatuyemo mu gihe cy'igihe kirekire, dushyiraho n'ibigega bifata amazi kugira ngo ntitujye turavunika tujya kuyashaka ,bitewe n'uko aba asakaje amabati.

Ni byiza ko uburezi butera imbere, aho abanyeshuri bigira mu mashuri meza, yubatswe neza, maze bakabuhabwa ubumenyi bahabwa n'abarezi babo, bityo bakazarushaho kwiteza imbere basoje kwiga.

Ni byiza kubaka amazu y'amagorofa aho bituma agabanya ubutaka atwara bari kuyubaka ,maze agakoreramo abantu benshi kandi n'abaturage bakaza kuhashaka serivisi zitandukanye, igihe ayo mazu akoreramo ibikorwa bya Leta.

Ubworozi bw'amatungo ni ingirakamaro. Nko korora inka tu zororera mu biraro byubatse neza bya kijyambere bisakaye neza, maze zikarushaho gutanga umusaruro, kubera ko ziba zitazereye ku gasozi, cyangwa zikicwa n'izuba cyangwa se imvura kubera ko ibiraro biba byubatswe neza.

Inyubako ni ingirakamaro. Aho nk'inyubako za leta zikorerwamo n'abayobozi .Aho abaturage babasangamo ,baje kubashaka ngo babahe serivisi runaka ;babaga bakeneye kandi zikaba zubatse neza.

Ni byiza ko igihugu kigira ibikorwa remezo byiza cyane, abaturage bakunda gukenera; nk'inganda zitunganya ibintu bigiye bitandukanye, maze zikabishyira ku isoko abaturage b'igihugu bakajya babibona mu buryo butagoranye.

Siporo ngororamubiri ni ingirakamaro nko gukina basiketi, aho bituma amagufwa yacu akomera, n'amaraso agatembera neza, kandi twunguka inshuti, tukarushaho no kuzamura impano zacu, maze tukazagera i mahanga tubikesha siporo.

Ubwubatsi ni ingirakamaro nko kubaka amazu y'amagorofa aho atwara ubutaka butoya kandi bigakorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye, bityo hagasigara n'ubutaka bwo guhingaho ibihingwa bigiye bitandukanye.

Inzu zikorerwamo serivisi zitandukanye, aho ziba zubatse ahantu heza ndetse ku muhanda, ku buryo abaturage baje gushaka serivisi ku bayobozi bahakorera, bahagera bitabagoye kandi hakaba hari n'ibirango bigaragaza icyo bahakorera.

Insengero ziba ari nziza cyane kuko abantu iyo bashaka kwegerana n'imana ariho bajyaga gusengera maze bagasaba imana ibyo bashaka bifashishije insengero baba barubatse zijyananye n'igihe bityo na bo bakarushaho kwishimira ibyo basaba Imana.

Ni byiza ko abantu bajya barajya kwegerana n'Imana basengera mu nsengero zubatswe neza cyane, zifite ubusitani, parikingi, jaride maze bakarushaho kugubwa neza, bitewe n'uko baba bariyubakiye ahantu heza ho gusengera.

Ubwubatsi ni kimwe mu bikorwa abaturage bakora, nko kubaka amazu hifashishijwe imbaho, ibyuma ndetse na sima, aho abafundi bayubaka maze bakayakomeza kugira ngo azakorerwemo ibikorwa bigiye bitandukanye, byaba iby'abaturage cyangwa ibya Leta.

Inteko rusange ni ingirakamaro ku baturage， aho abafite ibibazo babivuga imbere ya bagenzi babo， maze abayobozi n'abaturage bakabafasha kubikemura， bityo bagasubira mu miryango yabo bakabana mu mahoro.

Gukora inteko rusange z'abaturage ni ingirakamaro, aho abafite ibibazo babivuga maze abayobozi n'abaturage bakabicoca, kugirango barusheho kubana mu mahoro azira amakimbirane mu muryango wabo.

Amatora nimwe mu nkingi ya mwamba, igihugu cyacu kigenderaho, aho nkiyo haraba amatora, abaturage bahurira hamwe, bagatonda ku mirongo, buri wese afite uburenganzira, bwo gutora umuyobozi ashaka, maze igihugu kigatera imbere, kubera baba barbyemo abayobozi beza kandi bababereye.

Gukora inteko rusange ni ingirakamaro, aho abaturage bahurira hamwe bakungurana ibitekerezo, abafite ibibazo bakabigaragaza maze abayobozi bakabafasha kubikemura, aho baba bicaye ahantu heza kandi bateze amatwi batuje.

Ubuzima bwacu bwa buri munsi, dukenera ibikoresho bigiye bitandukanye bidufasha kuva ahantu hamwe tujya ahandi, aho dukenera nk'amagare, maze abanyonzi bakadutwara bakora uwo mwuga bahagera bitatugoye.

Iyo twahinze maze tukeza umusaruro wacu ukaba mwinshi, ugasagurira amasoko dutumizaho imodoka zikawupakira, twawusize mu bikoresho byabugenewe zikawujyana ahandi bawukenewe, bakawugura maze nabo bakabona ku byiza biturutse mu bahinze neza.

Ubucuruzi ni bwiza cyane nko gukora ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye nk'ibiribwa ibitoki, ibijumba, aho bivanwa mu masoko bijyanwa ahandi hifashishijwe imodoka nini zabugenewe zitwara iyo mizigo iba ari myinshi, maze zikajyanwa mu tundi duce bitarimo abaturage baho bakabibona bitagoranye.

Abantu dukora ingendo nyinshi zitandukanye. Aho duhurira muri gare turi benshi，tugatega imodoka zituvana ahantu hamwe zitujyana ahandi，kandi zigakoresha igihe gitoya， zikadutwara turi benshi tukagera aho tugiye byihuse.

Kugira ibikoresho bidufasha mu ngendo zacu za buri munsi ni ingirakamaro nko kugira amagare aho tuyifashisha, tuva ahantu hamwe tujya ahandi mu gihe gitoya, maze tukarushaho kunogerwa na serivisi ibyo binyabiziga biduha, kubera biba byihuta kandi tugenda mu mihanda yubatse neza.

Iyo dukeneye kujya ahantu ha kure hagiye hatandukanye, tujya muri gare aho bategera ibinyabiziga bigiye bitandukanye, bije mu byerekezo bitandukanye ,bitwara abagenzi maze bakagera aho bagiye, mu buryo bworoshye cyane.

Ubwikorezi bw'abantu n'ibintu bukorwa neza， iyo hifashishijwe imodoka rusange， aho ivana abantu hamwe ibajyana ahandi，kandi ikanyura mu muhanda mwiza wubatswe neza， maze bakagerayo bidatinze，bikarushaho koroshya ingendo za buri munsi， abantu dukora.

Imodoka ni kimwe mu gikoresho gitwara imizigo myinshi iremereye, aho zinyura mu mihanda yubatse neza nka kaburimbo kuko zituba zitwaye ibikoresho byifashishwa nko mu bwubatsi nk' imicanga, amatafari, amabuye, amagaraviye, maze ababikeneye kububaka bakabibona bitagoranye.

Iyo umuntu akeneye kugira ibyerekezo ajyamo mu Gihugu cyacu, ajya muri gare ahategerwa ibinyabiziga bitandukanye, bijya mu byerekezo bigiye bitandukanye bitwara abantu rusange, maze bakagera aho bagiye mu gihe gitoya kandi vuba.

Iyo umuntu akeneye kugira ahantu ajya, ajya muri gare ahategerwa imodoka zitwara abantu rusange, maze akagera aho agiye bitamugoye, yifashishije ikinyabiziga kiramutwara vuba akagerayo yihuse.

Ubwikorezi bw'abantu n'ibintu bwateye imbere mu gihugu cyacu, aho twifashisha nk'imodoka zitwara abantu rusange zibavana ahantu hamwe zibajyana ahandi, kandi bakagenda mu gihe gitoya bakajya mu bikorwa bashaka gukora bitabagoye.

Ibinyabiziga ni ingirakamaro, nko kgenda kuri moto aho idufasha kuva ahantu hamwe tujya ahandi mu gihe gitoya, maze tugakora ibyo tugiye gukora tudakerewe bityo tukarushaho kutwihuta mu iterambere, kubera tuba dufite ibidufasha mu kwihuta mu ngendo zacu zitandukanye.

Abantu dukunda gukora ingendo zitandukanye, aho twifashisha nk'imodoka zidutwara zituvana hamwe zitujyana ahandi ndetse n'imizigo tuba dufite, bityo tukagerayo vuba tudatinze mu mayira.

Ni byiza ko iyo twahinze, umusaruro ukera neza, tuba tugomba kuwujyana ku masoko, kugira ngo abawukeneye bawubone bitagoranye, tuwupakira mu modoka zibivana ahantu hamwe zibajyana ahandi bitari, maze na bo bakabona ibyo bakenera bitagoranye.

Ni byiza kugira ibikoresho bidufasha mu bwikorezi nk'amamoto aho atwara imizigo mitomito ikayivana ahantu hamwe izijyana ahandi, bityo bigafasha nyiri ikinyabiziga kuronka amafaranga ,kandi n'uwamuhaye umuzigo akayirushaho koroherwa ageza umuzigo aho ushakako ujya.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo utuma ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, aho zinyuramo zihuta zitwaye abagenzi ndetse n'ibintu maze bakageraho bagiye bwangu kugira ngo ibikorwa byabo byihute.

Ubuhinzi ni ingirakamaro; nko guhinga amashu, iyo amaze kwera uhita uzana abiyatwara, nko kuyatwara muri rifani, iyageza ku masoko, kugira ngo abayakeneye babone uko bayagura kandi akahagera atangiritse kubera ko aba yatwawe neza.

Abantu bagiye mu ngendo zigiye zitandukanye， bahurira muri gare，aho bafatira imodoka，aho ziba zirajya mu byerekezo bitandukanye， maze bakabatwara， bakabageza iyo bagiye bitabagoye，kandi bakagerayo vuba.

Imodoka ni kimwe mu bikoresho bitwara abantu n'ibintu zibavana hamwe zibajyana ahandi kandi ikabikora mu gihe gitoya igenda mu muhanda mwiza, wubatswe neza ku buryo itabasha kwangirika kandi ikagenda yihuta.

Siporo ngororamubiri ni ingirakamaro nko gukina tenisi aho ikinirwa ku bibuga byubatse neza, maze tukarushaho kuzamura impano zacu, maze tukagera kure kandi tugatwara n'ibihembo bikomeye mu mateka yacu.

Siporo ngororamubiri ni nziza cyane aho umukino wa handibaro aho bawukina bifashishije amaboko kandi bambaye n'imyenda yabugenewe, bakabikinira ku bibuga byubatse neza biratuma impano bazizamura maze bakarushaho kubaho mu buzima bwiza.

Siporo ngororamubiri ni nziza cyane nko gukina tenisi aho dukinira kubuga byubatse neza , twambaye n'imyenda ya siporo , kandi bituma amagufa yacu akomera tukarushaho no kuzamura impano tukagera ku gasongero gakomeye .

Siporo ngororamubiri nko gutwara amagare ni nziza cyane, aho zinyura mu mihanda zigiye zitandukanye zizenguruka igihugu ndetse n'abaturage barazishimira cyane kuko baza ku muhanda baje kwihera ijisho uwo mukino maze nabo bakanezerwa cyane.

Siporo ngoramubiri ni nziza cyane nko gukina volebolo aho ikinirwa kubibuga byubatse neza ,n'abakinnyi bambaye imyenda yabugenewe ya siporo, ndetse bagashyigikirwa n'abafana baba baje kwihera ijisho, kandi igihugu kironka amafaranga mu bantu baba binjiye mu ma sitade baje kureba uwo mukino.

Siporo ngororamubiri ni nziza nko gukina vore boro, aho tuyikinira ku bibuga byubatse neza ndetse twambaye n'imyenda yabugenewe kugira ngo turusheho kuzamura impano zacu tubone n'ibihembo maze tuzazamuke mu iterambere.

Siporo ngororamubiri ni nziza cyane, nko gukina umukino w'amaboko kwa hendi, aho ukinirwa ku bibuga byubatse neza kandi ugakinwa bambaye imyenda ya siporo, maze bakarushaho kuzamura impano zabo bagatwara n'ibikombe.

Imikino ngororamubiri ni myiza nko gukina tenisi, aho bituma twunguka inshuti zitandukanye kandi tugatwara n'ibihembo tukiteza imbere, kubera ko tuba tuyikinira ahantu hubatswe neza, maze tukarushaho kuzamura impano zacu.

Siporo rusange ni ingirakamaro ku bayitabira kuko bituma bagira ubuzima bwiza ,aho baba bagenda n'amaguru bambaye imyenda n'inkweto zabugenewe ,maze bakungurana ubumenyi kandi bakunguka inshuti kugira ngo barwanye indwara zitandura mu mibiri yabo

Ni byiza ko tugira ahantu ho gusohokera nk'ahantu ho koga mu mazi menshi; aho nk'abantu bakunda gukora siporo zo koga bajyamo bakigiramo, maze bakazazamura impano zabo, bityo bakarushaho kwiteza imbere babikesha siporo yo koga mu mazi menshi.

Imikino ngororamubiri ni myiza cyane, nk'umukino wa basikete aho ukinirwa ku bibuga biba byubatse neza, ndetse kandi abakinnyi bakambara n'imyenda ya siporo, bityo bakarushaho kuzamura impano zabo.

Siporo ngororamubiri ni ingirakamaro, nko gutwara amagare aho bituma duhurira mu marushanwa maze ababaye aba mbere bagahabwa ibihembo bakarushaho kuzamura impano zabo, bakagera n' i mahanga ,ibyo bikaba bikorwa mu Rwanda ,mu irushanwa rizwi nka turu di Rwanda riba buri mwaka.

Imikino ngororamubiri ni myiza nko gukina tenisi, aho ikinirwa ku bibuga byubatse neza, biratuma abahakinira badakomereka maze bakazamura impano zabo, bakarushaho no kwiteza imbere kuko habamo amafaranga.

Siporo ni ingirakamaro aho nk'iyo haraba ibikorwa bijyanye na siporo, birabera mu nyubako zimeze neza, haba hagomba kubanza imyiyereko, bakira abashyitsi, bavugiriza ingoma ndetse bagashyiraho n'ibirango by'ibyo amarushanwa agiye kubera aho ngaho agamije.

Ni byiza kugira ibikorwa remezo bidufasha kwishima nk'amasitade aho abaturage baturutse impande zitandukanye bahuriramo baje kureba imikino itandukanye; nka futuboro, maze bagafana amakipe yabo bihebeye maze nayo akabaha ibyishimo kandi igihugu kiboneramo amafaranga. kuko abinjira muri stade baba bishyuye.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bwacu nko gukina basiketi aho iyo twayikinnye dutwara ibihembo bigiye bitandukanye bikarushaho no kuzamura impano zacu.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza, nko gukora imyitozo yo koga, aho twogera mu mazi menshi, maze tukarushaho kuzamura impano zacu tugatwara n'ibikombe, kubera ko tuba twaritoreje ahantu heza.

Siporo ngororamubiri ni nziza cyane, aho dukinira mu bibuga, byubatswe neza kandi tugakina twambaye n'imyenda yabugenewe, tukarushaho kuzamura impano zacu, maze tukiteza imbere, tubikesha siporo twakunze.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza cyane， nko gutwara amagare， aho bituma turushaho kuzamura impano zacu，tugatwara ibikombe， aho tugendera mu mihanda yubatswe neza， twambaye n'imyenda yabugenewe， kugira ngo tudakomereka.

Siporo ngororamubiri ni nziza cyane. Nko gukora siporo yo gusimbuka umugozi. Aho bituma tuzamura impano zacu, maze tugahabwa n'ibihembo igihe twatsinze neza, kandi n'abafana bakaza kudushyigikira.

Siporo ni ingirakamaro kuko yishimirwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, aho nk'abafana baza mu ma sitade bahawe n'ibirango by'igihugu, kugira ngo bashyigikire ikipe yabo maze igere kure, kuko bayiteye ingabo mu bitugu.

Siporo ni ingirakamaro ku bayikora kuko baronka ibikombe iyo bitwaye neza, ndetse n'Igihugu gitera imbere, kuko abaza mu ma sitade batanga amafaranga Igihugu cyifashisha gikora ibindi bikorwaremezo.

Siporo ngororamubiri ni nziza cyane, nko gusimbuka aho tubikora twambaye imyenda yabugenewe ndetse n'inkweto, maze tukarushaho kuzamura impano zacu tugatwara n'ibikombe, tukabihemberwa tukazagera ku ntera ihanitse.

Imikino ngororamubiri ni ingirakamaro nko gukina volebolo , aho dukinira ku bibuga byubatse neza kandi tukayikina twambaye imyenda ya siporo ,kandi hakaba hari n'abafana baje kudushyigikira maze tukazamura impano zacu tugatera imbere.

Siporo ngororamubiri ni nziza nko kwirukanka aho abakinnyi tuyikina twambaye imyenda yabugenewe, ndetse tugatwara n'ibihembo twarakoze neza tugatsinda amarushanwa bityo tukarushaho kuzamura icyizere, kandi tukabona n'amakipe meza dukinira ndetse n'amafaranga duhembwa .

Siporo ni ingirakamaro nko gutwara amagare, nk'aho mu Rwanda haba irushanwa rya Turu di Rwanda buri mwaka, aho abanyamagare bahurira hano mu gihugu cy'iwacu baturutse mu bihugu bitandukanye byo mu mahanga, maze bakarushanwa ubaye uwa mbere akabihemberwa kandi bakayatwara bambaye ibikoresho bituma batangirika, kandi bagenda mu mihanda myiza yubatse neza.

Siporo ni ingirakamaro nko gukina tenisi, aho tuyikinira ku bibuga byiza byubatswe neza, kandi tukayikina twambaye n'imyenda ya siporo, maze tukazamura impano zacu tugatwara n'ibikombe.

Siporo ngororamubiri ni nziza cyane nko guhurira hamwe tugasimbuka urukiramende, aho bituma tuzamura impano tuba dufite maze n'abantu baje kutureba bakishima.

Kugira amaduka acuruza ibikoresho bya siporo ni ingirakamaro. Nk'ibikombe abakinnyi babaha iyo batwaye irushanwa ,ndetse n'amabaro yo gukina, aho usangamo n'ibindi bikoresho bikunda gukinirwa muri siporo . Nk'inkweto ndetse n'amajezi.

Siporo ni imwe mu nkingi ya mwamba mu buzima bwacu, aho tugomba kuyikinira ku bibuga byubatse neza, ndetse twambaye imyenda n'inkweto zabugenewe kugira ngo turusheho kuzamura impano zacu, maze dutware n'ibikombe tuzagere ku gasongero.

Ibibuga ni ingirakamaro kuko bituma abantu bakoreraho siporo zitandukanye nk'ibibuga bya vore byo ku micanga, aho abantu babikiniraho bakina imikino ya vore y'intoki, maze bakarushaho kugira ubuzima bwiza kuko iba iri ahantu hafite amahumbezi.

Gutura ku mudugudu ni ingirakamaro aho tugerwaho n'ibikorwa by'iterambere nk'imihanda ya kaburimbo aho zica ku ngo zacu, maze tukajya tugera ku mihanda bitatugoye, twanatega ibinyabiziga bikatugeza mu rugo mu buryo bwihuse.

Kubaka imihanda y'imigenderano mu midugudu ni ingirakamaro, kuko abaturage bayigendamo bari kujya mu ngo zabo kandi zikaba zifite isuku iteyeho n'indabo, kugira ngo izane impumuro nziza n'akayaga keza.

Imihanda ya kaburimbo ni ingirakamaro, kubera ko ibinyabiziga bitandukanye biyinyuramo nka moto, aho zinyuramo zitwaye abantu n'ibintu, kandi bikaba byiza iyo zegereye ingo z'abantu, ku buryo kugera ku muhanda bitatugora.

Ni byiza gukora imihanda y'imigenderano mu mudugudu wacu aho tuba tugomba kuwugirira n'isuku, kandi buri rugo rukagira uburyo rugerwaho n'ubwo muhanda kugira ngo abarugenderera babone ahantu banyura kandi hameze neza.

Gutura ku mudugudu ni byiza cyane, aho abahatuye bagerwaho n'ibikorwaremezo bigiye bitandukanye nk'amashanyarazi, imihanda yubatswe neza zigendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, nka moto, amagare, maze bakagera aho bajya badahungabanye kubera begerejwe ibikorwaremezo.

Imihanda ni ingirakamaro aho tuyigendamo mu mudugudu iwacu tugiye ahantu hatandukanye, mu mabutike tugiye guhaha ibicuruzwa bitandukanye, maze tukagenda nta kibazo kubera ko haba hakoze neza ntitugire n'ibisebe.